Ibi ni ibikinisho by'abana bo mubakire iyo umwana ari murugo bamusigiye nk'umukozi cyangwa se umubyeyi ari mu mirimo, amuha ibikinisho kugira ngo abirangariremo. Umubyeyi na we akore imirimo umwana atari kumutesha umutwe ntakimurangaza.

Abana bato b'abayisilamu babiri bari gusiga irangi ry'umweru ku gikuta k'inzu, bari kubikora biwe babyishimiye kandi babikunze bafite igikoresho cyabugenewe mu gusigaga amarangi.

Mu bigo by'amashuri kugira ngo abanyeshuri bafate ibyo biga neza, tuba tugomba kwifashisha ibishushanyo, kugira ngo umwana nabyiga mu ishuri asohoka akirebe arusheho gusobanukirwa neza iki ni igishushanyo cy'igishyimbo, turi kwerekana uburyo ikimeramo kugira ngo umwana abashe kubisobanukirwa.

Iyi ni ingofero ya bafudeyi bambika abana biga muri nasari bari kwizihiza umunsi mukuru w'amavuko yabo, barakabambika kugira ngo bishimi kaba kanditseho hapi bafudeyi bigaragaza ko umwana yujuje umwaka.

Aba banyeshuri bari muri bureke bari gukina mu kibuga. Hirya yabo hari umurima uhinze, hirya yabo hari ubusitani buteyemo pasipalumu, harimo abambaye imipira y'ishuri, abandi batambaye imipira y'ishuri, ni abana bakiri bato cyane.

Ishuri ni gute ushobora kwimurika nk'umuntu wibitseho ubumenyi bwo gufata ibyemezo? Iki ni ikibazo babajije, buri wese yakisubiza bitewe nuko yibitseho ubwo bumenyi muri rusange, agasubiza kino kibazo.

Igikinisho cy'abana, ni ingona ikozwe mu bikinisho nyine ry'umutuku, ifite ibara ry'umutuku, igikinisho cy'abana bakinisha bari kugira ngo kibarere gitume batarira.

lyi n'itoroshi ishushanyije ku gikuta, ku kigo cy'amashuri binanditseho, byerekana ko byereka abanyeshuri cyangwa se bibafasha kugira ngo babone itoroshi, bikunda gukoreshwa mu amashuri ya primary cyangwa se nusary, kugira ngo abana bagende basobanukirwa neza ibikoresho byo mu ngo.

Utu ni udutente, udukinisho tw'abana bakiri batoya, harimo ak'icyatsi, aka pinki n'u tw'umuhodo tubiri. Ariko kandi dufite mu mugongo h'umutuku, akandi h'umukara. Ni udukinisho tw'abana dutuma baseka, bakishima, bigatuma umwana atarira, igihe uri gukora utundi turimo ukatumuha akaba adukinisha.

Uyu ni umukino w'abana bakiniraho, iyo bari kwishimisha bari kuruhuka mu mutwe hirya yaho hari utwana tubiri, turi ku kamwe kari gukurura akandi ngo baze bakinire kuri uyu mukino, bishimisha amasaha abe yicuma, ibyishimo byiyongere.

Mu ishuri ry'abana b'incuke bifashisha ibishushanyo, kugira ngo abana babashe gusobanukirwa neza ibyo bari kwiga. Iyo babyize anabibireka, birabafasha cyane kubifata.

Ibikinisho by'abana beza muri nasari bakoresha mu gihe cya bureke, harimo utumodoka, udupope ndetse n'utundi tuntu twinshi dutuma abana barangara bigatuma batarambirwa kuko bandinze gutaha bari ku ishuri cyangwa bagakumbura ababyeyi babo.

Done imodoka z'ibikinisho zifashishwa mu ishuri ry'abana biga nasari, babigisha ukuntu ibintu bikorwa. Utu ni udukinisho tubaruhura mu mutwe, iyo bananiwe babaha ibikinisho bagahabwa imodoka zibenura zzikamena ibintu.

Ku bigo by'amashuri, amashuri aba ari meza, yubatse neza, yubatse ku murungo kandi akurikiranye. Ikindi kintu cyiza kandi gitangaje nakubwira utari uzi, nuko hari ibishushanyo bifasha abana kwiga neza byitwa imfashanyigisho.

Aba ni abanyeshuri bari kwandika ku kibaho, ni ibibaho biteye mu ishuri. Bari kwiga kocingi, niyo mpamvu bari kwandika nyine kukibaho bapfukamye kubera ko ari bigufi bitagera hejuru kandi bo bakuze.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu ma shuri mashuri ya primary guhera p3 kugeza p1 mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugeza mu wa gatatu, aho wifashisha utukoresho twanditseho inyuguti n'ingombajwi, imibare ndetse n'ibindi bishushanyo bifasha byitwa imfashanyigisho.

Muri Primary education, bigisha abana kwirinda gukwirakwiza umwanda babikoresheje amafoto. Uyu ni mwana uri kunya mu gihuru kandi biteza indwara, bituma nyine habaho umwanda ujya mu bana ugatuma barwara indwara za hato na hato inzoka ndetse n'ibindi babiyama kunnya ahantu aho ariho hose babonye.

Iki ni ikigo cyo mu karere ka Nyamata, mu karere ka Bugesera, Nyamata iherereye mu karere ka Bugesera barikubwira abantu bose ko ari werikamu bemerewe kuza guhiga batanga amasomo neza.

Ogisifodi matematiko insiturumenti ni igikoresho kitwa buwate, gifasha abanyeshuri biga imibare, kibamo amarate bacisha umurongo, kugira ngo bakoreshe imirongo igororotse, ipimye kandi iringaniye.

Ibi ni ibikoresho by'abarimu bifashisha bo muri (nursery) bari kwigisha abana, bari kubigisha ingombajwi, inyajwi ndetse n'imibare kugira ngo babibone bakifashisha tuno dukoresho twanditsemo ingombajwi cyangwa se inyuguti kugira ngo abana babashe kubimenya urugero a.

Ni ibitabo by'abanyeshuri by'ikinyarwanda byo mu mwaka: wa mbere, wa kabiri, uwa gatatu y'ikinyarwanda. Bifasha abanyeshuri gusoma no kumenya gusoma. Kumenya kuvuga no gutinyuka kuvugira mu ruhame.

Aha ni mu ishuri abanyeshuri bari gukora ikizame, buri wese yicaye ku ntebe ye kugirango adaberana na mugenzi we, bari gukora imibare kandi buri wese nyine ari gukora ibye nkuko babyigishijwe.

Aya ni amashuri ya segonderi hari itarapo ry'u Rwanda n'amashuri. Hari n'ikigega kibafasha gutuma bagira ubumenyi buhagije bifashishije ibikoresho bikomeye.

Ku bigo by'amashuri cyane cyane ahiga CBC, baba bafite laboratwari hanyuma abanyeshuri bakajya muri labo aho bafata amasomo muri tewori, nyuma baka kujya muri laboratwaire kugira ngo babashe gusobanukirwa ibyo bize.

Mu bigo by'amashuri hakunze kubaho ibihe byo kujya gusenga, bagafata umwanya bakajya mu kiliziya bakaramya Imana. Aba ni abanyeshuri bambaye inifomu nziza cyane y'utujipo tw'icyatsi, imipira y'icyatsi n'amashati y'umweru, inkweto z'umukara n'amasogisi bari kuririmba mu kiliziya.

Aba ni abanyeshuri bahagarariye abandi mu kigo barigufata inama cyangwa se amahugurwa agendanye n'ukuntu wakwirinda icyorezo cya covidi nayinitini bari kubyandika uburyo bazafasha bagenzi babo gukaraba intoki n'amazi meza neza ndetse no kwambara udupfukamunwa no gushyira intera hagati yabo.

Aba ni abayobozi ba yufu vorotiyazi barimo n'abambaye ibigendanye na Polisi bari gukora kamorali bakoma amashyi, bishimye cyane bari kuba bishyushya kugira ngo bafate ibiganiro bashyushye nta bunebwe bafite.

Iki ni ikigo cy'abamansera, bakaba barimo fata ifoto y'urwibutso basoje igihembwe, abanyeshuri bagiye mu biruhuko muri vakanse. Iruhande hari umuyobozi wabo, mansera, hari n'undi mushyitsi wari wabasuye, yifotozanya n'abana bari bishimiye ko agiye kujya mu biruhuko.

Abanyeshuri bo ku kigo cy'ishuri bambaye iniforome basoje igihembwe mbere yo gutaba bafata ifoto y'urwibutso, kugira ngo bazajye nibazajya bakumburana bazajye bayireba, bitume urukumbuzi rushira bose bakifotoriza hamwe abahungu n'abakobwa.

Aba ni abana bari gukora ikizamini hagati yabo harimo supavayiza uri kuba superiviza kugira ngo arebe neza nyine bataza gukopera, bakore neza buri wese akore ibyo yize ku giti cye ntawe ukopeye undi kugira ngo abone amanota ye.

Aba ni abanyeshuri basoje kwiga kaminuza, uyu wambaye ikanzu iriho akantu k'icyatsi ni umunyeshuri wabaye uwa mbere bari kumushimira, uyu wambaye ikanzu iriho umutuku ni umuyobozi ari kumuha ibihembo yakoreye.

Aba ni abanyeshuri biga muri kaminuza ya TVT, bari gukora assignment muri groupe basobanurirana bashyize hamwe kugira ngo buri wese abashe kubyumva neza, nibasabumitinga iyi assignment bazanaperezanta.

Ubu ni ubukorikori abanyeshuri biga muri kaminuza ya TVT bakurikiranye ibigendanye n'ubukorikori, biga gukora ibindigibi, ibi ni ibintu byiza biranga umuco gakondo wa kera, baba babikoze mu ibumba.